Ahantu habereye inama yahuje abaturage, biragaragara ko bayitabiriye ari benshi cyane kubera ko bashishikajwe no kumenya byinshi mu bijya mbere birebana n'iterambere ryabo.

Mu itente ryicayemo abantu benshi barimo n'inzego zishinzwe umutekano biragaragara ko bahahurijwe no kuganira ku buzima rusange bw'abaturage imbere hahagaze umuyobozi urikuha ikiganiro.

Inama yahuje komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare, yabereye mu cyumba kiberamo inama zigiye zitandukanye, hakaba harimo abayobozi batatu baje gutanga ibiganiro.

Umugore mwiza cyane ubyibushye, wambaye amarinete, wambaye ikanzu y'umutuku, ufite mikorofone, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro.

Ahantu hateraniye urubyiruko n'abandi bantu batandukanye, bigaragara ko bitabiriye ibiganiro byateguwe n'imbuto fondeshoni, hakaba hahagaze umugabo uri gutanga ikiganiro akoresheje insakazamajwi.

Inama yabereyemo ibikorwa bigiye bitandukanye, ikaba yahuje abaturage n'abayobozi bo mu nzego zigiye zinyuranye, hakaba hahagaze umupolisi wambaye impuzankano yabo, ufite mikorofone uri kubagezaho ikiganiro.

Ahantu bigaragara ko ari ku kibuga cy'umupira, hari abakinnyi bari bamaze gukina imbere yabo hahagaze umutoza wambaye imyenda ya siporo, ufite mikorofone mu ntoki, akaba ari kubakoresha inama abaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye.

Inama, yahuje abayobozi bo mu nzego zitandukanye, n'urubyiruko, bakaba bari kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti, rubyiruko menya amateka yawe.

Mu nyubako yabereyemo inama yahuje abantu batandukanye, harirumu umugabo bigaragara ko asa neza cyane, yambaye ishati y'umuhondo n'isaha ku kuboko afite mikorofone ari gutanga ikiganiro.

Ubukwe bwa kinyarwanda, bwabereye ahantu heza cyane, bahadekuye ku buryo busa neza, hakaba hari itorero riri kubyina imbyino z'umuco gakondo w'abanyarwanda.

Ubukwe bwa kinyarwanda bwajemo itorero ryaje kubyinira abitabiriye ubwo bukwe, ndetse abantu babutashye barishimye cyane kuko iryo torero riri kubabyinira neza.

Ahantu habereye ubukwe harasa neza cyane, bahadekoresheje indabyo nziza cyane hari n'amatapi asa nkicyatsi hari itorero riri kubyina imbyino za kinyarwanda ryiganjemo abagabo bambaye imyitero n'amashati y'imikara.

Abagabo babiri beza cyane bambaye imyenda ya kinyarwanda ndetse n'inkweto za kinyarwanda, bambaye n'urunigi mu ijosi, biyogoshesheje nta musatsi basizeho bigaragara ko bari mu bukwe.

Ku ipoto y'amashanyarazi, hariho umukobwa wambaye imyenda y'akazi, wambaye n'ikigofero gisa nk'umuhondo, akaba yaje guhuza insinga zari zacomokotse kugira ngo zitaza guteza ikibazo kirimo no kubura umuriro.

Ipoto itwara insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage, ryaguye none byabaye ngombwa ko abakozi bakora mu bijyanye n'umuriro w' amashanyarazi, baza kuryegura kugira ngo abaturage bataza kurara ahantu hatari kubona.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi k'ibijyanye n'amashanyarazi, afite agakoresho bifashisha bari gukemura ibibazo runaka cyangwa se habayeho siriko, akaba yaje gusuzuma kimwe mu bikoresho byagize ikibazo.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, yicaweho n'umuntu wagiye gukora ahantu hagize ikibazo muri izo nsinga, wambaye imyenda yabugenewe, inkweto n'gofero byabugenewe.

Akamashini ka mubazi gahabwa umuturage kugira ngo n'azajya amara kugura umuriro azajye areba inite bamaze kumuha, maze bimufashe kumenya igihe uwo muriro uzamara.

Ibiganza by'umuntu ufashe akamashini gakoreshwa igihe bari kureba ibibazo byavutse mu bijyanye n'amashanyarazi, akaba ari ahantu hacometse insinga nyinshi cyane zigiye zitandukanye, akaba yaje gusuzuma ngo arebe ikibazo gihari.

kK kigo nderabuzima, hahagaze abagabo bagiye batandukanye, bigaragara ko ari abayobozi bari bitabiriye inama, bakaba bayisoje, none bakaba basohotse hanze, gufata ifoto.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari ku murenge, hari ikigega gifata amazi kinini cy'umukara ndetse harimo n'abayobozi bagiye batandukanye bari kugendagendamo.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu heza cyane, kikaba gifite imbuga yisanzuye, hakaba hashizemo amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi ndetse hakaba hari kugendamo n'abantu bagiye batandukanye.

Inyubako ya leta bigaragara ko ari ku murenge, iteye irangi ry'ubururu hahagaze abaturage bagiye batandukanye, baje kuhashaka serivisi zigiye zitandukanye.

Inyubako ya leta, ikorerwamo, igikorwa cyo guhunika imyaka, ikaba iri mu ibara ry'icyatsi ndetse ikaba ifite imbuga yisanzuye, bakoresha barikumenaho imyaka kuri shitingi.

Ikiraro cyubatswe neza mu buryo bugezweho, hari kugendwamo n'abaturage benshi bigaragara ko bahishimiye, bari kugenda bareba ibyiza Igihugu cy'u Rwanda cyabagejejeho.

Ku kiraro bigaragara ko ari icyo mu cyaro, hari kugendwa n'umugabo uri ku igare uhetse imizigo, imbere ye hari undi mugabo na we uri kugenda ku igare ariko we nta kintu ahetse.

Ikiraro ni igikorwa remezo Leta igeza ku baturage kugira ngo kijye kibafasha kwambuka ahantu hanyurwa n'imigezi, kuri icyo kiraro rero hakaba hahagazeho abantu benshi cyane, bari kwitegereza ibyiza bitatse u Rwanda.

Gereza ifungirwamo urubyiruko ya Nyagatare, hahagaze abana bahafungiwe bambaye impuzankano isa nk'umukara hasi, hejuru ikaba isa nk'umweru.

Ahantu ku kigo cy'amashuri hateraniye abaturage batandukanye, bakaba bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ku kibuga habereye inama yahuje abaturage ariko iyo nama hakaba hajemo n'inzego z'umutekano bakaba bari kubaganiriza ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Inama yahuje abantu bagiye batandukanye, biganjemo ababyeyi b' abamama n'abakobwa, bakaba bicaye hasi mu twatsi, bakurikiye ibiganiro bari guhabwa.

Ikibuga bigiraho gutwara imodoka, haparitsemo imodoka ebyiri zifashishwa n'abantu baje kwiga imodoka, imwe isa nk'umukara indi isa nk'umweru werurutse.

Icyapa giteye mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire gisa nk'icyatsi, munsi gifite akabara gasa nka shokora. Kerekana ko ari muri Nyagatare, hakaba hari umujyi wa Nyagatare ndetse hari n'ibitaro bya Nyagatare.

Ahantu mu isantere harasa neza cyane hubatse amazu y'ubwoko bugiye butandukanye y'ubucuruzi, hari uducaca abantu bakwicaramo igihe bari kuganira, ndetse bashaka no kuruhuka.

Resiora icuruza ibiryo by'amoko atandukanye, hakaba harimo; agatogo, umuleti, n'ibindi biryo byo muri afurika, byose abanyarwanda ndetse n'abantu bo mu mahanga bakwifashisha igihe baje gufungura.

Ni ahantu mu cyaro, hateye urutoki rwinshi cyane, hakorewe igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'inzego zitandukanye, zirimo ingabo z'igihugu, na polisi y'igihugu cy'u Rwanda bakaba bafite amabuye bari kubaka umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo usa neza cyane, urikugendwamo n'imodoka zikunda gukoreshwa nabantu bari mumasiganwa y'amamodoka, ndetse birasa nkaho bwije, ariko hari kugendagendamo n'abandi bantu.

Ku kibuga cy'umupira, bigaragara ko cyubakiye, hari abantu hari kuhakorera imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko bari gukina umupira w'amaguru, bakaba ari amakipe abiri, bamwe bambaye umuhondo, abandi bambaye ubururu.

Ku kibuga cy'umupira, hari abantu bari kuhakorera siporo. Muri bo harimo umugabo wambaye imyenda ya siporo isa nk'umuhondo, nundi wambaye imyenda y'umukara, irimo akabara k'ubururu. Bose bakaba bari gukina umupira w'amaguru.

Ku kibuga cy'umupira hari abantu baje gukora imyitozo ngororamubiri muri bo harimo abagabo batanu bambaye amajezi asa nk'umuhondo ndetse biragaragara ko bicaye bishimye bari bari mu kanya ko kuruhuka.

Ku kibuga cy'umupira hari abantu baje kuhakorera siporo bagiye batandukanye, hakaba hari n'abandi bari kuhakinira umupira w'amaguru.

Ku kibuga cy'umupira harasa neza cyane, hari abagabo bari kuhakorera imyitozo ngororamubiri, barimo abambaye imyenda ya siporo isa nk'ubururu, n'abandi bambaye imyenda isa nk'umuhondo.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru. Hari amakipe yaje kuhakinira. Akaba, yahuriye aho hantu, kugira ngo, haze gutoranywamo ikipe iratsinda maze igakomeza, ndetse bikabafasha no gukora siporo.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru, hari amakipe abiri, yaje kuhakorera siporo, iruhande rw'icyo kibuga hakaba hari ibiti byiza cyane, hakaba hubatse n'amazu asa neza cyane.

Ikibuga cy'umupira kiriho amakipe abiri y'abakobwa ari gukina umupira w'amaguru, bakaba baje kuhakorera siporo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.